Aha ni ku biro by'umurenge aho hari abantu benshi bahateranye baje mu nama, bamwe bakaba bicaye abandi bari gutaha, hari amashitingi y'umweru yakirirwamo abantu ndetse iyo nyubako isakaje amabati atukura, ifite ibikuta by'umweru ndetse hari n'imodoka iparitse hanze.

Abantu bicaye bariri mu nama benshi, bicaye ku ntebe z'umukara. Imbere hari abagabo babiri n'umugore umwe aho bari kubakoresha izo nama. Imbere hari icyapa cy'icyatsi cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru mu cyongereza.

Umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati y'umutuku, imbere ye ahagaze ku ruvugiro, hirya hari intebe eshatu zibereye aho, inyuma ye hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru ariho insanganyamatsiko bari bari kwigaho mu nama.

Abantu benshi b'abajyanama b'ubuzima bari gukoma mu mashyi bigaragara ko bishimiye uyu mugabo w'umuzungu ubari imbere. Na we ari gukoma mu mashyi yambara amadarubindi, ikositimu ndetse n'ishati y'umweru.

Umwana uri kunywa amazi ku ivomero rusange, yambaye agakabutura k'umutuku n'agashati ka gisirikare, yambaye na bodaboda zisa ubururu, hirya ye hari inyubako ndetse n'ibiti birebire.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa umuhondo bazamuye amaboko bari gupepera, inyuma y' uwo muryango harimo abantu bagera batanu, babiri b'abazungu ndetse n'abandi batatu b'abirabura, bazanyye amaboko nabo bigaragara ko bishimanye n'abo bana.

Umugabo uhagaze wambaye akajiri n'agapfukanwa, ari kurebana n'undi mugabo uhagaze nubundi, wambaye ishati y'ubururu ndetse na baji y'akazi, imbere ye hari mudasobwa, hakaba hari n'undi mugore uhagaze impande y'umuganga uri kureba ku mpapuro.

Umukecuru uryamye wambaye agapfukamunwa ararembye, hari inzobere mu buvuzi zi kumwitaho aho ziri gupima niba atwite, bambaye udupfukamunwa bose, icyumba gifite ibikuta bisa mu marangi y'umweru n'ubururu.

Umubyeyi wajyanye umwana wa muganga, none akaba ya gupima icyizigira cy'ukuboko ngo barebe ikigero agezeho akura, hirya muganga uri kubyandika ndetse n'abandi bantu batandukanye bari muri iyo nyubako.

Abantu batandukanye bicaye bari mu cyumba cy'inama, aho buri wese imbere ye hateretse amazi yo kunywa. Hari umwe wambaye kositimu ufite mudasobwa imbere ye. Ibikuta by'inzu bisa umweru hatambitsemo akaronko k'umukara.

Ni inyubako zigiye zitandukanye, zubatswe mu buryo bw'amayobera bw'uruziga, hakurya hari izindi nyubako zisakaje amabati atukura, zisize amarangi y'umweru, akaba ari inzu zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba hari ubusitani bwiza cyane.

Umudamu w'umuzungu bigaragara ko ashaje yambaye isaaha kukuboko yafashe mu gatuza akaba afite indangururamajwi mu ntoki ze, arikuvuga inyuma ye hari ikirango cya inisefu mu ibara ry'ubururu.

Umumama wicaye hamwe n'abandi imbere yabo hari umuganga wari kumupapima umuvuduko w'amaraso aho yashyize igikoresho cyumukara ku bizigira by'umukecuru kugir ango barebe ko nta kibazo afite hari ubusitani bwiza cyane.

Abantu benshi cyane bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo n'abagore n'abasaza, bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, barebye imbere yabo bigaragara ko hari umuntu uri kubakoresha inama nubwo ntawe turi kubona, igikuta cy'inzu barimo kirasa umuhondo n'umweru.

Abantu benshi bari kwifotoza, higanjemo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'abamama bagiye batandukanye, inyuma yabo hari icyapa kiri kugaragaza ko bari bari mu nama yitwa cogamu.

Inyubako zigiye zitandukanye aho ari zubatswe mu buryo bw'uruziga imbere nyubako ndende cyane yasakajwe amabati y'umutuku ikaba yubakishije amatafari ahiye hakaba hari n'ubusitani bwiza burimo ibyatsi bisa icyatsi.

Umugore wambaye amaribaya yajyanye umwana kwa muganga, muganga akaba ari kumuha vitamine, ni byiza kujyana umwana hakiri kare kumuvuza, igihe ubonye muri kimwe mu bimenyetso mpuruza by'indwara z'abana.

Abana benshi b'abanyeshuri bifotoje bari ku mugezi bari kunywa amazi bambaye kaki, bari ku mugezi rusange washyizweho na leta kugira ngo abana bajye babona icyo kunywa ntibagire icyaka harimo umwe uri ku ruhande umanitse amaboko.

Ni abantu benshi, baje kuvoma amazi. Hari umugore wambaye ijipo n'ishati by'iroza, ufite ijerekani ku mugezi akaba ari kuvoma. Ku mpande ze hari abana bamukikije, bari kumureba.

Ibinyabiziga birebire by'ibikamyo bitwara imizigo, bikaba biriho igishushanyo cy'ikigo kita ku mirire ku isi aricyo bita pamu.

Abantu bagera muri bane bakaba bahagaze imbere ku ruvugiro, harimo abakobwa batatu n'umuhungu inyuma yabo hari icyapa kivuga ko ari umunsi wabereye mu Rwanda aho bari gutaha uburyo bwo kwita ku buzima bw'abantu bitewe inkunga na inisefu.

abantu bicaye hamwe, harimo abafite abana baje gukingiza, hari n'umuganga uri kubitaho, ndetse n'umwana wicaye kuruhande n'undi mukobwa wicaye ku ruhande ari kuzarambura ikayi bicaye imbere y'inyubako nziza cyane.

Abana b'abanyeshuri, harimo umwe umanitse agatoki, akaba ashaka gusubiza ikibazo mwarimu yari abajije, ni byiza rero nk'abanyeshuri ko igihe cyose ushaka kugira icyo uvuga mu ishuri, ugomba gutera agatoki hejuru mwarimu akaguha ijambo ukabona kugira icyo uvuga.

Umugabo wagiye kuvoma ku ivomero rusange, yambaye ipantaro y'umukara nini yatebejemo n'ishati y'amaboko ya mace, hirya yaho hari ibyatsi byinshi cyane byibara ry'icyatsi.

Abantu bicaye bari mu nama bicaye ku ntebe zsa ubururu imbere ku bitambaro biri ku meza n'umweru n'ubururu hari umugore uhagaze imbere uri kubakoresha iyo nama hari n'abandi bantu inyuma ye nabo bakurikiye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama aho bicaye ku ntebe z'ubururu bari mu nama, hagati y'impande zombi harimo umugabo uri kugenda bigaragara ko ari we uri kubakoresha iyo nama, yambaye agashati ndetse n'ipantalo y'itise.

Abantu benshi cyane bateranye bari kwifotoza, bakaba bari gukora inama, hari abicaye ndetse n'abahagaze bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho insanganyamatsiko bigagaho muri iyo nama.

Umukobwa witwa Yuwakimu Kazayire; akaba ari mu cyapa bigaragara ko ariwe uigiye kudufasha mu nama igiye kuba mu kanya karaza yiga ku bijyanye n'imitangire ya serivisi z'ubuvuzi.

Mu rwego rwo kunoza serivise leta yegereje abaturage amazi, kugira ngo ajye abageraho batabanje kuvunika kandi bagire isuku, ndetse bajye bahora bameze neza batavunitse bajya gushaka amazi.

Aha ngaha ni mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, hari umumama wambaye agapfukamunwa n'agapira k'icyatsi yiteze n'igitenge, yajemo gushaka serivisi.

Abantu bicaye bari mu nama ndetse harimo n'umudaso, ushinzwe umutekano. Bicaye barebana, haparitse n'imodoka. Bicaye imbere y'inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi y'ikigo nderabuzima, isize amarangi y'ubururu.

Ibikoresho biri mu ibara ry'ubururu, bikaba biteretse ahantu ku twuma, bikaba bifite iminwa isa umukara ariko ifite uduhombo tugiye tuyihuje, hakaba hari ndetse n'ibindi byuma bigiye bitandukanye.

Intoki z'umuntu zoza amazi ku mugezi wa robine aho ziri gukara, ni byiza cyane kugirira intoki zacu isuku tukazikaraba ibihe by'ingenzi byabugenewe kugira ngo turwanye umwanda.

Ku ivomero rusange, aho bavoma hari umuntu umwe uri gupomba, umwana umwe ari gupomba, undi ateja akavido ari kuvoma, hirya hari abandi bantu bashungereye ndetse n'akandi kana kaje kuvoma, gafite utubido tubiri mu ntoki.

Umumama uhetse umwana amuhekesheje igitenge bigaragara ko amuhetse nabi, akaba afite indobo y'umuhondo ari kogereza umupfundikizo imbere y'ahantu hari ivomero rusange.

Aha baratwereka abaganga cyangwa se abavuzi bita ku ndwara z'ibyorezo, aho bari ku ivuriro, hari n'abantu baje babagana, bakaba bari gushyiraho inzitiro zibuza abantu kuhagera.

Umumama uhagaze mu mazi ari kuvoma ikijerekani akidubitsemo, ku ruhande hari undi muntu uri kuhogereza igare, ibi si byiza kuko byongera umwanda mu mazi bityo bikangiza ibinyabuzima bibamo.

Umugabo wambaye agapira gasa icunga ari gusuhuzanya n'umwana, hirya inyuma yabo hicaye abandi bantu benshi batandukanye, hakaba hari n'ibyatsi n'ibiti byinshi aho ngaho.

Umwana wambaye agapira k'ubururu, karimo imironko y'umukara afite isabune mu ntoki afite ikijumba ndetse ari ku kironga, aho wa umuntu ufite ijage y'icyasi, uri uri kumusukira amazi.

Abantu bagera muri batandatu bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe nziza zigezweho, inyuma y'abo hari icyapa gifiteibara ry'ubururu gicanyeho amatara cyanditseho amagambo y'umweru bigaragara ko aba bantu bari mu nama.

Imbangukiragutabara izwi nka ambiranse, aho inyuma yayo hari umudaso wambaye impuzankano z'icyatsi, ndetse n'abandi bantu benshi, umuryango urafunguye iri ahantu habereye inama, bigaragara ko hari umuntu ugira ikibazo ije gutabara.

Abantu batandukanye b'abaganga. Bateraniye hamwe, bambaye amataburiya ndetse na bamwe bambaye amashati y'umukara. Bari kwifotoza, hariho abicaye n'abandi bahagaze.

Abana babiri bari ku ivomero rusange aho umwe ari gukorera mugenzi we indobo isa icyatsi, inyuma yabo hari akazu ka nyakatsi, hirya hari agasozi gateyeho ibiti byiza cyane biteye amabengeza.

Abantu batandukanye bahagaze imbere y'inyubako y'ikigo nderabuzima bari kwifotoza. Iyo nyubako isize amarangi y'ubururu n'umukara. Abo bantu nabo bambaye imyenda y'ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'ibitenge.

Abaganga bambaye amatabiririya y'umweru bifotoje bari guseka bari kumwe n'umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku ku urukuta hari insakazamashusho zifunguye y'ibara ry'ubururu.

Leta yegereje abaturage amazi ku buryo igihe cyose bayashakiye bayabona byihuse bitabaye ngombwa ko bajya kuyashaka mu mibande hano hari umwana muto uri kuvoma hari n'umunyeshuri uri kumufungurira amazi ruguru hari abandi banyeshuri bavuye ku ishuri bari kugenda.

Abamama bagiye batandukanye, buri wese afite umwana we, bigaragara ko baje kubakingiza kuko buri wese aramucigatiye, begamiye ku nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ariko arimo uturangi tw'umweru n'umukara.

Umumama usa n'ukuze yambaye ipantaro yambaye n'ijiri n'agapira k'ubururu ndetse na baji y'akazi, afite impapuro ariku kugenda azihereza abantu bari aho ngaho benshi cyane.

Umuganga uri kuvura umwana amutera urushinge. Umuganga yambaye itaburiya y'umweru, umwana we yambaye agapira k'umweru. Uwo mwana nta bwoba bw'urushinge afite na busa.

Abana bambaye impuzankano za kacyi bari kuvoma amazi bayavomera mu ndobo. Iyi migezi yashyizweho na leta mu rwego rwo kwegereza abaturage amazi meza.

Abantu bicaye ahantu hamwe harimo abana bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse n'amashati ya burusiyeri bigaragara ko hari abana bari kwifotozanya bahagaze mu ishashi n'amatapi y'icyatsi.

Inisefu ni ikigo cyita ku buzima bw'abantu aho tubone ikirango cyacyo mu mabara y'ubururu, harimo uruziga rugaragaza umubumbe w'isi hashushanyijemo umubyeyi n'umwa bivuga ko baba bita ku buzima bw'umwana ukiri muto.

Agatanda k'amasahani aho kariho ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye leta yashyizeho gahunda yo kujya buri rugo rugira agatanda k'amasahani kugira ngo bajye bayabikaho bayanyandikeho hanyuma birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umukobwa wambaye akajipo ufite igitege ku rutugu ari kuvoma, hirya ye hari n'undi mugore noneho nawe uri kuvoma ku mavomero rusange, hakaba yanditseho makumyabiri bigaragara ko ariyo injerekani igura, hari abandi bantu inyuma yabo babategereje gukurikiraho

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama harimo abapapa n'abagore ndetse harimo n'abazungu bakaba bakurikiye umuntu uri imbere yabo uri kubagezaho iyo nama.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bw'uruziga, zigera muri ebyiri hirya hari iyindi yubatse mu buryo busanzwe, isakaje amabati atukura, iteye amarangi y'umweru, hakaba hari n'ubusitani bwiza kuri izo nyubako zose.

Umwana uri kunywa amazi mu mugezi wa robine akoresheje intoki n'inyuma ye hatonze abandi bantu, harambitse agatebe k'ubururu hirya hakaba hari n'ikirango cy'ikigo cyita ku bana ku isi yunisefu.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amakanzu yabugenewe nkabataburiye asahu ubururu, bari kwkifotozanya n'umugabo wambaye ikositimu bigaragara ko bari munama, inyuma yabo hari ibiti bitanga amahumbezi n'umuyaga.

Abana babiri bari mu mbuga, umwe afite isabune yunamye hejuru y'indobo y'ubururu undi nawe arahagaze afashe akabinika gasa ubururu, iruhande rwabo hari inyubako wagira ngo ni dushe ifunze.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye mu cyumba cy'inama, hakaba hari umugabo ubahagaze imbere wambaye itaburiya y'umweru bigaragara ko ari we uri kubakoresha iyo nama.

Umwana muto cyane acigatiwe n'umuntu uteze ibitenge, hari umuganga wari gusuzuma uwo mwana, uwo mwana bigaragara ko ari gukina abyina ashaka kurira kubera ko ataramenye ikiri kuba.

Abantu benshi cyane bari kuvoma amazi ku mugezi rusange hari abafite indobo ndetse hari n'abafite amabido, harimo abana ndetse n'umugabo bose baje gushaka amazi.

Mu buryo bwo kwegereza abaturage amazi, leta yashyizeho ingamba z'uko buri mudugudu ugomba kuba ufite umugezi, aha hari abamama babiri bari kunywa amazi ku mugezi, hari n'undi uri kuvomesha wambaye agashati k'umutuku.

Abantu bicaye bari mu nama, buri wese imbere ye hateretse amazi, hari abagore babiri hagati ndetse n'abagabo babiri kumpande bose bafite mudasobwa, abagabo, umugore umwe afite mikoro ari kuvuga, arebana na mugenzi we, inyuma yabo hari amarido asa ubururu.

Umwana watojwe neza. Ufite ikinyabupfura n'ubwenge. Aho yagiye kuvoma amazi kuri robine yitwaza igikombe kugira ngo aze kukinywesha. Ni byiza kwifashisha ibikombe mu gihe tunywa amazi, aho gukoresha intoki.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru, afite igitabo mu ntoki ndetse n'indangururamajwi. Ari gukoresha inama abantu benshi bicaye muri shitingi ndetse hatatseho amabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi bicaye muri sare ya iberamo inama ikaba ifite ibikuta by'amabara y'umweru, purafu nayo irasa abo bantu baka biganjemo abambaye imyambaro y'ubururu, bafite impapuro mu ntoki bari kureba imbere bose barakurikiye.

Abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abambaye imyambaro y'umweru, hari n'umukorerabushake ndetse n'umuntu ukorera ikigo gitabara imbabare, hari umuntu wicaye ku gatebe wambaye agapira k'umutuku n'akajiri k'umweru.

Imbonerahamwe itwereka uko ikigero cy'ubuzima gihagaze, hari abafite indwara zo mu mutwe ndetse hari n'abagerwaho na serivisi z'ubuvuzi, hari n'abafite indwara ndetse n'abirinda imibonano mpuzabitsina.

Abana babiri umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ipantaro n'ishati bidoze mu bitenge, bari ku mugezi bari gukaraba intoki, iyi imigezi ni imwe muri gahunda leta yashyizeho zo kwegereza amazi abaturage bakayabona bitabagoye.

Abakobwa bagera kuri bane n'umasore umwe, bambaye udupira tw'ubururu n'amapantaro y'umukara, bari kwifotoreza imbere y'icyapa cya UNICEF, ikigo cyita ku buzima bw'abana ku isi, barishimye cyane bose, bazamuye amaboko bamwe, abandi bumiwe.

Abantu bari ku ivomero rusange hari injerekani iteretse ariko amazi atari kujyamo, umwana ari gupomba, inyuma abandi bari kumureba ntacyo bari kumufasha hino hari undi ufite inkoni.

Abantu benshi bateraniye hamwe bicaye ku dutebe tw'umutuku abandi bahagaze inyuma, imbere yabo hari imbuga ishashemo amapave, bari gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bari bari mu nama.

Aba ni abana abenshi cyane bambaye impuzankano z'icyatsi bari guseka barishimye cyane ariko bose bigaragara ko bafite ubumuga bwo mu mutwe kuko ukuntu baseka ntabwo bisanzwe.

Umuntu bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Arasutamye yashinze ivi rimwe irindi ararihagaritse, yashinze akaboko kamwe akandi arakamanitse. Inyuma ye hari inyubako ishaje cyane ifite amabati yatoye umugese.

Ifoto y'umuntu uri kurira, yipfutse mu maso, yambaye akagofero k'umukara ndetse na gapira k'umukara n'imbere yambariyemo agashati k'umweru, akaba ameze nk'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba byaramuhungabanyije yihebye.

Umuntu wicaye ku ntebe y'urubaho yambaye akajipo k'amabara y'umutuku n'umukara n'umweru, yitadiye mu mutwe ndetse inyuma ye hari igikuta gishushanyijeho ururabo rufite amababi y'icyatsi n'ururabo rw'umuhondo.

Abavuzi bagera muri babiri bambaye udupfukamunwa, aho bicaranye n'umuturage utaze igitenge wambaye agapfukamunwa k'umukara, bari kugenda bamubaza ibibazo runaka nawe abasubiza ariko ukuntu ameze wagira ngo afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu wambaye imyenda yacikaguritse cyane, akaba ari kugenda atoragura amashashi, aho ari gusoma n'agatabi mu muhanda bigaragara ko ari umusazi rwose, inyuma ye hari imodoka itwara imizigo isa ubururu ndetse n'umukara n'icyatsi iri kugenda muri kaburimbo.

Abantu benshi bicaye bari mu nama, bicaye ku ntebe zisa umukara imbere hari umugore uri kubigisha, ndetse hari n'insakazamashusho iri ku gikuta yo kubereka ibyo bari kwigaho, ibikuta birasa umweru.

Abantu bicaye, hari umumama wambaye akajiri k'umukara n'igitenge cy'icyatsi, afite agafukamunwa mu ntoki, yazamuye ukuboko kw'ibumoso, asa naho atunze urutoki uyu umuntu ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu bigaragara ko Afite uburwayi bwo mu mutwe, yambaye agapira k'ubururu gafite uturongo tumanutseho, akaba akeneyenye igitenge, yambaye imihama ku maguru, bigaragara ko ari umusazi, akaba yaragendaga akubita abaturage, bahitamo kumwambika imihama kugira ngo agabanye amahane.

Umugore wambaye ikanzu iri mu mabara y'ubururu n'umuhondo, yambaye ikarita y'akazi mu ijosi aho ayifashe mu ntoki ari kuyitwereka, akaba ari imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye isakaje amabati y'ubururu.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, bafashe icyapa kigari kiri mu mabara y'icyatsi, umweru agiye atandukanye bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Imodoka y'amabara y'umweru. Itwara ibikoresho bigiye bitandukanye, bijyanye n'ubuvuzi. Ikaba iriho ikirangantego cy'u Rwanda. Iruhande rwayo hari abantu bihicaye, bicaye ku dutebe, bigaragara ko bari kugenda baganira.

Umugabo wambaye ikote ry'ikoboyi ndetse n'imyambaro y'umutuku yambaye n'isaha mu kaboko yambaye n'ingofero ari kwiyumvira bigaragara ko afite ikibazo cy'imihangayiko ikabije.

Abagore babiri ndetse n'umuganga, bicaye kwa muganga bakikije neza buri wese akikiye umwana we, muganga imbere ye afite ikayi ndetse n'akantu k'uruzega bigaragara ko ari kugenda apima ibiro by'abo bana.

Umuntu wambaye ishati y'igitenge yegamye ku gikuta cyanduye arebye hejuru bigaragara ko yahungabanye cyangwa ahangayitse ni byiza kumwegera tukamugira inama ndetse tukanamuhumuriza akareka kwiheba.

Umumama wicaye afite indangururamajwi mu ntoki ndetse imbere ye hari n'indi y'umugozi iharambitse hakaba hateretse agacupa ku meza hirya ye hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa inyuma yabo hari ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima ndetse n'ikirangantego.

Agapira gasa umweru ndetse n'ubururu kakaba gasa neza cyane, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse kakaba kambarwa n'abantu bagiye batandukanye.

Umumama wicaye acigatiye abana babiri, imbere ye hari agakoko gateretsemo ingemeri y'umutuku irimo utwaka duke, arahangayitse kuko ari kwibaza icyo aragaburira abo bana akakibura.

Umukobwa wicaye akaba yambaye ijipo y'umukara ifitemo utubara tw'umweru, yambaye agapira k'umweru akaba yicaye iruhande rw'igiti, urebye neza biragaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe yicaye hasi yambaye imyenda yacikaguritse, yitangiye itama, ari imbere y'ingabo yasaga umuhondo ariko irange ryarashaje, aka aba ari gusa nabi cyane.

Abantu babiri, harimo umwe wicaye washyize amaboko ku meza, yitangiye itama bigaragaza ko afite ibibazo byinshi, hari undi umuri iruhande, ari kumuganiriza kugirango ngo amuhumurize.

Abantu benshi cyane bari mu gikorwa rusange cy'umuganda, bambaye imyambaro y'ubururu ndetse inyuma hagiye hari ibiti bigiye bitandukanye, ni udupande tune turimo abo bantu bari gukora uwo muganda.

Umubyeyi uhetse umwana imbere ye hakaba hahagaze undi, ari gushigisha igikoma ndetse ari mu nzu yo mu cyaro y'ibyondo, abana na nyina ntabwo bishimye.

Umugore bigaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe, aho yikoreye igitebo avuye gukura ibijumba, abyikoreranye n'imigozi yabyo, inyuma ye hari inyubako isakaje amategura.

Abana benshi bahagaze ahantu bari guhengerezareza, witegereje neza aba bana bashobora kuba ari abo mu cyaro cyangwa bakaba batarakura ngo bace akenge kuko bariguhengereza cyane kandi akaba atari umuco mwiza.

Abamama bagera muri batatu. Babiri buri wese afite ikibingo mu ntoki ze, undi afite igitiyo. Uwo hagati akikiye umwana arikumwosa ndetse afite n'umufuka bagaragara ko ari abo mu cyaro.

Umubyeyi Nyakubahwa Jeannette Kagame akaba ari ku ruvugiro, yambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu y'icyatsi, ari gutanga imbwirwaruhame ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu babiri baricaye hari umugabo n'umugore, umugore yambaye iribaya rifite utubara tw'icyatsi ku maboko, afite indangururabajwigu mu ntoki aho ari kubagezaho ijambo abo bari kumwe.

Umukecuru wicaye aho ashagawe n'abana bagiye batandukanye, bangana nk'abuzukuru be, bari kureba imbere insakazamashusho barishimye bari kwishimana na nyirakuru, nawe akishimana n'abuzukuru be.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bamwe baricaye ku muronko w'imbere abandi b'inyuma barahagaze bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso ku mpande hakaba hari ikirango cya kaminuza y'u Rwanda.

Umugore bigaragara ko afite, uburwayi bwo mumutwe. Yarakaye yakunje isura ndetse yiteze igitambaro afite amaherene umubonye ntukizwe n'amaguru yakumena ruseke.

Abantu benshi cyane. Harimo abana, abasaza n'abantu bakuru, aho bose bafite uduti turiho idarapo ry'u Rwanda, batuzamuye hejuru. Bigaragara ko ari umunsi w'abantu benshi cyane b'abanyarwanda. Bakaba bishimye cyane.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku, ikaba iriho inkingi zisa ibara ryicunga, ifite urugo rwubakishije ibyuma ndetse akaba ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umusazi wa nyawe aho yambaye imyenda yamuboriyeho, ibyabo byabaye bibi cyane bidafite isuku ibisatsi nabyo nabyo byamusaziyeho bigaragara ko akwiye kwitabwaho.

Abantu batandukanye bicaye mu rugo ni abantu bagera muri batanu ndetse n'umwana umwe, bakaba bicaye imbere y'inzu ihomesheje sima, ifite umuryango ufunguye amadirishya y'umutuku y'imbaho ariho ibirahuri.

Umuntu uryamye akaba yasamye, hari umuganga uri kumukura amenyo, yambaye udupfukantoki n'amadarubindi, umusatsi we ni umukara, bigaragara ko ari kumukura iryo ryinyo yaba arwaye.

Iki ni igishushanyo cyangwa igikanka kiri muri mudasobwa kitwereka amenyo yose. Hari umuntu wambaye uturindantoki, uri kugitunga urutoki ,bigaragara ko ari iryinyo atari kubona neza.

Umugabo uri guseka ufite urudodo mu menyo, afite ubwanwa buke n'agasatsi gake, ari kutwereka uburyo basukura amenyo bakoresheje urudodo kugira ngo bakuremo imyanda yose iba yasigaye mu menyo.

Umwana ufite uburoso bw'amenyo, arasamye yabushyize mu kanwa, aziritse akantu ku mutwe, yicaye ku ntebe isa ubururu. Ni byiza ko yatojwe kugirira isuku amenyo akiri muto.

Umwana warwaye iwabo bamujyanye kwa muganga none abavuzi bari kumwitaho, bambaye udupfukamuwa n'amataburiya y'umweru n'umukobwa ndetse n'umuhungu hirya hari n'abandi bantu barikureba baseka.

Umusaza ugeze mu kigero cy'izabukuru, akaba afite akuma kabugenewe kifashishwa mu gusukura amenyo, akaba ari kugenda akoza mu menyo ye ndetse ari no kwireba mu ndorerwamo. Yambaye imyambaro iri mu mabara y'umukara.

Umugore ufite uburoso akaba ari gusukura amenyo ye, ari guseka bigaragara ko yishimye yambaye agasengengeri k'umweru ndetse ateze n'igitambaro, ku madirishya hari amarido meza cyane.

Umuganga wambaye ishati yabugenewe ndetse na karuvati, akaba yambaye uturindantoki hari umurwayi ufite ikibazo cy'iryinyo, muganga akaba afite akuma ari kugenda ariyikura.

Umwana uri gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, ari kumwe na se, bose bafite indodo bakoreshe mu menyo, umwana na se bambaye udupira dusa umweru.

Abana benshi cyane bafite uburoso bwo kugenda boza amenyo yabo, bambaye impuzankano bigaragara ko ari abanyeshuri bo ku kigo cy'amashuri runaka batojwe isuku hakiri kare.

Umugabo ufite urudodo, ari kwireba mu ndorerwamo, yambaye agapira k'umweru ndetse akaba ari gukorera isuku amenyo, akoresheje urudodo kugira ngo atazangirika.

Umuntu uri gukora isuku y'amenyo ye akoresheje urudodo yambaye agapira k'umweru ndetse ari guseka imisatsi ye ni direde ni byiza cyane gukora isuku y'amenyo dukoresheje urudodo kuko bituma tugira ubuzima bwiza cyane.

Umuntu urwaye iryinyo none yagiye kwa muganga arasamye, muganga yambaye agapfukanwa, udupfukatoki ndetse n'itaburiya ari kumukura iryo ryinyo ryari riri kumurya.

Abana b'abanyeshuri bari kumwe n'umwarimu wabo, bari guseka bose bazamuye korogati mu ntoki bigaragara ko bahuguwe uburyo bwo kwita ku menyo yabo bakoresheje uyu muti wayo witwa korogate.

Icyumba gitangirwamo serivisi zo gukura amenyo kwa muganga, hari udutebe twiza cyane aho hari agatebe gafite umufarizo w'ubururu, umurwayi yicaramo akegama hanyuma muganga akaza kumukura amenyo.

Umugabo ufite urudodo yifashisha ari gusukura amenyo, ni byiza cyane ko natwe twajya dusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma imyanda yose ishira mu menyo bityo ntagire ikibazo.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru, yambaye n'amadarubindi afite n'umusatsi muke, yambaye itaburiya y'umweru, afite ikaramu ari kwandika ku rupapuro bigaragara ko ari mu kazi.

Umusaza w'umuganga yambaye amadarubindi, itaburiya y'umweru, ndetse n'agakomo ku kuboko, ndi kureba icyapa kimanitse ku rukuta kiriho amenyo n'imizi yayo kugirango amenye uko yakira abakiriya.

Uyu mwana ukiri muto aho agaragara afite uburoso n'umuti w'amenyo aho agiye gusukura amenyo ari guseka, ni byiza cyane gutoza umwana koza amenyo hakiri kare kuko bituma akura ameze neza afite n'isuku.

Umugabo ufashe urudodo mu ntoti akaba ari kugenda akoza mu menyo, bigaragara ko ari gusukura amenyo ari guseka yambaye ubusa hejuru, biragaragara ko ari gusukura amenyo ye kugira ngo atazagira ikibazo mu bihe biri imbere.

Umukobwa uri guseka, afite urudodo mu menyo, aho ari gukora isuku y'amenyo akoresheje ururdodo. Ni byiza cyane gusukura amenyo dukoresheje urudodo, kuko bituma tugira ubuzima bwiza, kandi nta myanda yo mu menyo isigaramo.

Umu mama ari guseka; afite imisatsi isutse ndetse imbere ye hari ako kuma kariho amenyo, bagiye kumushyirira, hari ikiganza cyambaye uturindantoki kiri kumwereka amenyo nawe ari guseka.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, yashinyitse, aho afite akuma kariho urudodo, kifashishwa mu gusukura amenyo, kugira ngo hatagira imyanda myinshi yisigaramo.

Umugabo wicaye ari guseka, akaba afite amenyo meza. Imbere ye hari ibiganza by'umuganga, aho bifite akuma mu ntoki bikamwegereje, bigaragara ko bashaka kugira icyo bakora ku menyo ye.

Umusore mwiza cyane wambaye impuzankano z'umweru yicaye ari guseka, aho ari kwerekana ko amenyo ye ameze neza. Ni byiza kugirira amenyo isuku kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Umurwayi w'umugabo arwaye amenyo. Yagiye kwa muganga none umuganga w'umuzungu wambaye itaburiya y'ubururu, afite ibyuma byabugenewe, ari kugerageza ngo arebe ko yamukura ayo menyo arwaye.

Umuntu w'umukobwa wicaye yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'ubururu ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu amera neza, nawe uzajye uyikora uzagira ubuzima bwiza.

Umusaza n'umwuzukuru we barikumwe, uwo musaza yicaye mu kagare bose bafite udukoresho mu ntoki tuba turimo imikino igiye itandukanye, bari kurebana umusaza yishimye n'umwana muto ari guseka ni byiza cyane.

Udushashi turimo imbuto nyinshi cyane, zigiye zitandukanye. Harimo izifite amabara y'umweru, umukara, umutuku, umuhondo. Ndetse n'icyatsi. Hakaba harimo n'urusenda ndetse n'utubombo.

Umukecuru w'umusirimu yiteze igitambaro cy'umutuku, ari gutambuka mu muhanda ari kumwe n'umukobwa we batambuka baganira, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri ni byiza kwita ku babyeyi bageze mu za bukuru.

Umukecuru ugeze mu zabukuru yicaye mu ntebe zigezweho mu nyubako ifite amabara y'umweru, inyuma ye hari umukobwa umufashe mu bituza, umukobwa w'inzobe wazirikiye imisatsi inyuma bigaragara ko ari umuganga, bari guseka bose barishimye.

Umumama ndetse n'umwana bafite imisatsi myiza cyane, bakaba bari ku meza aho bari gukina udukino tugiye dutandukanye. Umuma ari kwigisha umwana, umwana nawe arakurikiye kugira ngo arebe ko yatumenya.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira kajya gusa umuhodo, yicaye mu kagari k'abafite ubumuga bigaragara ko ashoboye kuba yaramugaye, inyuma ye hari umukobwa mwiza w'umuganga uri kumusunika ku kagare, ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Abasaza babiri bambaye udushati umwe gasa umweru undi ni icyatsi, biteye n'imyitero umwe w'umweru undi w'umukara, bambaye n'ingofero imwe isa shokora indi isa umukara, umwe yambaye amadarubindi ubundi ntayo, bari ahantu hari abantu benshi bari gukoma mu mashyi.

Umuntu utagaragara igice cyo hejuru yambaye ikanzu y'ubururu ndetse afashe ku twuma ari kutugenderaraho, bigaragara ko ashobora kuba ageze mu za bukuru, inyuma ye hari igitanda gifite matera zisa umukara.

Abakecuru bageze mu zabukuru bagera kuri batandatu, bicaye ahantu mu isoko bari gucuruza, bari gucuruza inyanya zisa umutuku, inyuma yaho hari imbuto z'amaronji na zo zisa umuhondo bari gucuruza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, akaba yambaye amaherena n' akapira k'umweru imitsi ni imvi, akaba ari kumwe n'umwana we w'umukobwa ari kumuteruza akuma ka ariteri, umukobwa ari gaseka, yambaye agapira gasa n'iroza ndetse n'imisazi myiza cyane y'umukara.

Abahinzi b'abagore ndetse n'abagabo, bamanitse isuka, bigaragara ko bishimye bari ahantu mu gisambu kukoma yabo hari ubwatsi bwa cameroni biragaragara ko bageze no mu zabukuru.

Abagabo babiri basa n'abageze mu zabukuru, bambaye imyambaro ya siporo, aho bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'udushati tw'umweru, bari kugenda mu muhanda bari guseka, bishimye cyane, uwo hirya afite n'agacupa k'amazi mu ntoki.

Umusaza ugeze mu za bukuru, aricaye yambaye agashati gasa shokora. Imbere ye hateretse ikirahure cy'amazi. Hakaba afite ibitabo ari kurebamo ndetse ari mu nyubako nziza cyane.

Umusaza ageze mu za bukuru acigatiye akozukuru ke k'inzobe barikurebana, barishimye cyane, umwana afite igipupe, ni byiza ko ababyeyi bacu bageze mu za bukuru twajya tubazanira abana bakishimana nabo.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bose imisatsi yabo irasa umweru, ariko uyu mukecuru we ntabwo ashaje cyane, umukecuru yambaye agapira k'umutuku, umusaza we yambaye agapira kajya gusa n'umweru barishimye.

Umuntu wambaye isaha ari kurebaho, akaba yambaye ishati y'igitaka, biragaragara ko ashaje ari kureba ku isaha ngo arebe aho igihe kigeze, hanyuma aboneze iy'uburiri ajye kuryama kubera ko bwije.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari kugenda bacurira bakoma amashyi, hari umugore uri imbere yabo bari guhereza impano, akaba akenyeye igitenge, hari ibitambaro by'icyatsi biteretse ku meza ari inyuma yabo.

Abantu benshi bateraniye hamwe hari umusaza uri gusega imisatsi ye ni imvi, ari kumwe n'umukecuru ndetse n'umuryango w'abana babo ndetse n'abuzukuru, barishimye cyane bose bari guseka ni umuryango mugari.

Umusaza ugeze mu za bukuru none muganga ari kumutoza uburyo bakora imyitozo ngororamubiri, ugendera kw'aka kuma muganga yambaye itaburiya y'umweru'agasaaha kukuboko yambaye inkweto z'umweru n'ipantaro y'umukara, ari mu nyubako nziza cyane.

Umukecuru n'umusaza bicaye bari kureba ku rupapuro impande yabo ku meza hari izindi mpapuro nyinshi inyuma yabo hari intebe zigiye zitandukanye bigaragara ko ari mu nyubako ngari.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba ari kozwa n'umukecuru w'umugore we, uko bigaragara nawe we arashaje kuko intoki ze zuzuye iminkanyari, ni byiza cyane ko umugore yita ku mugabo we akamugirira isuku.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku; akaba ari umuganga. Hari n'umubyeyi wambaye agashati k'umweru ndetse n'undi muntu ufite agapira karimo imirongo itambitse. Bose bari kurebana, bari guseka, barishimye cyane.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ashinze inkokora, akaba ari kugenda akora siporo, yambaye agasengeri k'umutuku n'umweru, akaba ari no guseka.

Umukecuru afashe ku kuma, ari kumwe n'umugabo w'umuganga, ufite ubwanwa bwinshi, wambaye ishati y'ubururu, uwo mukecuru yambaye umudari, nawe yambaye ishati y'ubururu.

Umukecuru ushaje cyane, yambaye amadarubindi, akaba ari gusuhuzanya n'umukobwa w'umugore w'umuganga wambaye agashati k'ubururu w'umuzungu uri guseka wishimye.

Umusaza ugeze uu za akaba ari kumwe n'umukobwa we arimusukira igihuguo mogataderi ye atetserozahani we n'imbuto zigiye bitandukanye bigaragara ko ari kumuhata indyo yuzuye kugira ngo azasaze neza.

Umukobwa wicaye ku musambi yambaye ipantaro itukura, yambaye umupira ndetse afite imisatsi izinze, ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hari ubusitani bwiza cyane ndetse ubwo busitani burimo n'ibiti by'imikindo.

Umusaza n'umukecuru baricaye bari kurebana barishimye umusaza yambaye agapira k'umweru umukecuru yambaye agapira k'umutuku ku meza hariho ibyo kurya bitandukanye byiganjemo imboga n'imbuto.

Umusaza wambaye imyambaro y'umukara ushaje cyane bigaragara ko yunamye, ari kumwe n'abaganga babiri harimo uw'umukobwa n'uw'umugabo bari kugenda bamufashe bamurandase kugira ngo abashe kugenda agororoke.

Abamama bambaye amajipo y'umukara ndetse n'udupira dusa umweru, biragaragara ko harimo n'abakobwa bakiri bato bakaba bameze nk'abari gukora siporo.

Umusaza wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ishati y'umutuku ari kwifotozanya n'umukobwa wambaye agapira k'ikoboyi, yamwingetseho barishimye cyane bari guseka, iyi foto ni nziza nawe nakwifuza ko wazajya wifotozanya n'inshuti zawe.

Aha ngaha hari umusaza n'umukobwa, imbere yabo ku meza buri wese afite igikombe cy'umweru, kirimo icyo kunywa, umusaza n'umukobwa bari kureba mu gitabo bose bari guseka bishimye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umukecuru, bakaba bafite agapapuro kariho amabwiriza, yereka umusaza ikigero cy'imiti agomba gufata. Imbere ye ku meza, hari akavaze gateyemo indabyo.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, akaba afite alitere ebyiri mu ntoki z'icyatsi. Ari guterura kugira ngo akore imyitozo ngororamubiri hanyuma akomeze agire ubuzima bwiza buzira umuze.

Abantu batatu bageze mu zabukuru, harimo uwambaye agapira k'umweru, undi umuhondo, undi nawe yambaye ak'umweru, bari kureba muri telefoni bari guseka ndetse bari kwifotora.

Umukecuru ufite imvi nyinshi cyane ari kumwe n'umukobwa ukiri muto bose bari guseka, umukecuru yambaye ishati y'umweru, umukobwa yambaye ishati y'icyatsi ifite utubara tw'umweru ku maboko no mu ijosi.

Umusaza ugeze mu za bukuru wambaye agashati k'amabara y'umukara, umweru n'tu akaba ari kurya imbuto aho yafashe zimwe yazivanye ku isahani ye ari kuzishyira ku isahani y'umugore we.

Umusaza ugeze mu za bukuru, yambaye ishati ishokora ari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru umugabo ufite ubwanwa bwinshi, ari kumwereka mu gitabo uburyo yazajya aranywa imiti hanyuma ubuzima bwe bukagenda neza.

Abantu benshi cyane bambaye amakositimu bicaye mu cyumba cy'inama. Imbere yabo hari abandi bagera muri batandatu barimo bakoresha iyo nama. Inyuma yabo ku gikuta hari icyapa cy'icyatsi kiriho amafoto y'abantu baza bagakoresha iyo nama.

Icyapa cyanditseho utugambo twa NCD cyangwa indwara zitandura mu magambo arambuye, zanditse mu magambo y'umukara.

Abantu benshi bari kugenda bafite ibyapa bambaye imyenda y'umweru ibyapa byanditseho ngo twirinde kanseri y'ibere twisuzumishije hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba cy'inama, hakaba harimo ababyinnyi gakondo bari kubyina bishimye ndetse n'abari aho barabakurikiye, inyuma hari icyapa cyanditseho ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC.

Umugabo wambaye agashati k'ubururu n'agapfukamunwa akaba ari kwa muganga aho ari umugabo w'umuyisilamu wambaye akajiri k'abakorerabushake, uri kumukingira urukingo rwa kovide cumi n'icyenda.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umutuku, handitseho amagambo mu ibara ry'ubururu avuga ngo: uburyo twakwirinda ndetse tugashyira hamwe tukiga kurinda abana indwara ya virusi itera sida.

Umusaza n'umugabo barahagaze bose bakaba bambaye amakositimu nasa aricaye umuto muhaga inyuma bakaba ku cyapa aho bari kutubwira ngo isomo rye ryita ku buzima abagabo aribo bazaritugezaho

Abantu batanga serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Bambaye impuzankano z'icyatsi. Aho bari kwita ku murwayi uhari. Imbere hari insakazamashusho ebyiri zicanye, abarwayi bareba kugira ngo badahangayika.

Umusaza wicaye ku gatebe k'umutuku yegamiye ku cyuma yambara akagofero k'ubururu, akaba yasamye, umuganga wambaye imyambaro y'ubururu n'agapfukamunwa, arikureba mu kanwa k'iwe ngo arebe ko nta kibazo cy'uburwayi afite, hirya hari abandi bantu batonze umuronko bigaragara ko bategereje.

Ababyeyi bagera muri bane bakikiye abana bigaragara ko baje kubakingiza kwa muganga, inyuma yabo ku bikuta hari ibyapa bigiye bitandukanye nabyo bigera kuri bine bigaragaza serivisi zitangirwa aho ngaho.

Diyabete, ibi bikaba byanditse ku cyapa cy'umweru kiriho indwara tugomba kwirinda tukarwanya muri iki cyumwer, akaba ari indwara ya diyabete.

aba mama batandukanye bicaye ahantu mu nyubako ariko ntabwo bicaye ku ntebe bicaye ku gisima bose barebye ku ruhande bigaragara ko umuntu ari kubabwira ahagaze ahagana ku ruhande.

Umukobwa wambaye impuzankano zifashishwa mu buvuzi zizwi nk'amatabuya, irasa umweru akaba yambaye agapfukamunwa akambariye munsi y'akananwa, yambaye n'ingofero y'akanozasuku akaba yazamuye igipfunsi hejuru iruhande rwe hari icyapa gisa ubururu.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama higanjemo abagore cyane, bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hari umukobwa wambaye ipantaro y'umweru n'agakote k'umukara n'agapira k'umutuku mo imbere, uri kubagezaho iyo nama, inyubako barimo yubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, imbere hari abagabo babiri bambaye amakositimu bari kuyibakoresha, buri wese afite kamudadasobwa imbere ye ndetse n'indangururamajwi, inyuma yabo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo ngo duhagarike icyorezo cya Marbug, ikaba yarabaye kuri makumyabiri z'ukwacumi bibiri na makumyabiri na kane i Kigali.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe mu nama, bicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere yabo hari abagore bari bakoresha inama, aho bicaye bambaye n'imyambaro y'akazi. Inyuma hari cyapa cyanditseho ngo ni umunsi mukuru w'abagore muri Afurika.

Uyu muntu w'umu mama yambaye agapira n'imisatsi myiza cyane, aho yavunitse none muganga ari kumwitaho imbere yabo ku meza hariho indangururamajwi bakoresha bari kuvuga ndetse hirya hari n'abandi bantu benshi bahagaze.

abantu b'abamama bambaye udupfukamunwa umwe yambaye akajire k'umukara undi yambaye itaburiya y'ubururu aba bose ni abaganga bakaba bari kutwereka uburyo tugomba kwirinda indwara ya covid cumi n'icyenda.

Ukuboko k'umuntu kurwaye ibiheri, biragaragara ko akeneye ubuvuzi, namugira inama yo kugana ku kigo nderabuzima, inzobere mu by'ubuvuzi zikamwitaho, hanyuma iyi ndwara arwaye igahita igenda nka nyomberi.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma ye hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko ari kuvugaho, hirya hari ifoto y'uwo mugabo kamera itunzeho kugira ngo n'abari kure babashe kumubona mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Umumama wambaye agashati k'umutuku, makiyaje ku munwa ndetse imisatsi ye ni umukara iraboshye iboheye inyuma, imbere hakaba handitseho amagambo yo kurwanya kovidi cumi n'icyenda.

Ibi byapa biratwereka ukuntu uba umeze ndetse n'ibyumweru runaka bavuga ngo ku byumweru cumi na bibiri, cumi na bitatu kugeza kuri makumyabiri, ndetse no hejuru y'ibyumweru makumyabiri.

Abantu benshi cyane bicaye bari mu nama, bambaye impuzankano z'umukara ndetse n'udupira tw'umweru ku bari inyuna, ameza ariho igitambaro cy'umutuku ndetse na pinki bari kureba imbere bose bigaragara ko bakurikiye inama.

Inyubako icururizwamo imitigi igiye itandukanye, hari utu etajeri twinshi turimo imiti, hirya aharenga hari urugi rufunze, muri iyo nyubako hari kwakamo amatara asa amweru.

Inzu itangirwamo serivisi zitandukanye zo kwa muganga, harimo ibyuma kabuhariwe byifashishwa, harimo kandi n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, harimo insakazamashusho ebyiri ziri kwaka ndetse n'igitanda baryamishaho umuntu urwaye.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, aho imbere yayo haparitse imodoka zigera muri ebyiri, imwe irasa umukara, indi ni umweru, imbuga yaho irimo amakaro ndetse harimo n'amapave, hakaba hari na farumasi icuruza imiti.

Inyubako nziza cyane zifite amarangi y'umweru zubakishijwe amatafari ahiye, ku marembo hariho icyapa kinini cy'ubururu byanditseho mu nyuguti z'umweru ngo ibitaro by'akarere bya Nyarugenge, hari amapave meza mu nzira ziganayo ndetse n'ubusitani.

Icyumba kirimo intebe nyinshi cyane z'umukara abantu bakunze kwicaraho iyo bari mu nama, hari kugaragara abandi batarenga batanu, harimo abagore ndetse n'abagabo bicaye barebye imbere muri iyo sare bonyine.

Ni kwa muganga, ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye zerekeranye n'ubuvuzi, hari ibitanda abarwayi baryamaho ndetse haba n'insakazamashusho iri kwaka abantu babarwaje baba bari kureba kugira ngo batarambirwa.

Inyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye, irafunguye hanze hahagaze umumotari ndetse n'umuntu wambaye agapira k'umweru bakaba bari kugaragaza ko hacururizwa imiti ni muri farumasi.

Abantu bateraniye hamwe barimo barifotoza harimo abazungu n'abirabura, bari imbere y'inyubako yanditseho ngo ''Rwamagana hosipito'' bigaragara ko ari ibitaro bya Rwamagana.

Abantu b'abajyanama b'ubuzima bateraniye hamwe bari kwifotoza inyuma y'abo hari abandi bantu ndetse harimo n'umusirikare bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cyubakishijwe amatafari ahiye gisakaje amabati asa ubururu.

Inzu yubakishije amatafarihiye, ifite inkingi z'umuhondo, amadirishya n'umweru, ku rubaraza yicaye aba mamama ndetse baje kwivuza, iyi nyubako akaba ari raboratwari.

Inyubako irimo abagore bahetse abana, hari imiryango ibiri ifunguye, hakaba hari ibyapa byaditseho ko ari muri farumasi yitwa Iraguha, bakaba bacuruza imiti igiye itandukanye.

Inyubako nziza cyane, ikaba isakaje amabati y'umutuku, ikaba irimo amapave ahagana ndetse n'ubusitani busa ibara ry'icyatsi.

Inyubako nziza cyane zubakishijwe amatafari ahiye, zikaba zifite ubusitani bwiza burimo n'indabyo, bikaba bigaragara ko ari ahatangizwa serivisi z'ubuvuzi kwa muganga.

Ahari inyubako nziza cyane zisakajwe amabati atukura, ibikuta bisa hari n'ubusitani bwiza bigogaragara ko hatangirwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari abantu bagiye batandukanye bicaye bigaragara ko bategereje serivisi.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ikaba ifite amarangi menshi asa shokora, hakaba hari akantu k'uruziga kanditseho amagabo mu ibara ry'umweru ngo: information desk.

Umwarimu ari gusobanurira umwana ibice byose biba bigize amenyo umwana ya icyatsi inyuma ye hari abandi bantu bahagaze bari kureba uko biri gukorwa, hakaba hari n'ikibaho cy'umukara cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ikaba isakaje amatibe yitwa ibyuma ndetse n'amabati mato hirya hari ndi nyubako yuruziga ifite ibara risa nk'ivu rifite ubusitani bwiza ndetse n'utuyira tw'amapave tuhagana.

Ni mu nyubako mo imbere. Harimo ibikoresho byifashisha cyane byabugenewe. Hakaba hari amakaro asa ibara ry'ivu ndetse n'umweru. Ibikuta birasa umweru n'amatara ni umweru. Amadirishya arabonerana hanze.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, hahagazemo abagore ndetse n'abagabo, bari kwifotoza, ni inyubako nziza cyane.

Intebe nziza cyane zigezweho, zibajwe mu mbaho ariko ziriho imifariso. Hakaba hari n'utumeza tugera muri dutatu tw'amabara atandukanye, umukara, umweru ndetse n'ibara ry'igitaka.

Inyubako nziza cyane aho ibikuta bisize amabara y'umweru. Hakaba hariho utwatsi turi kunyabya munsi tw'utubara, hakaba hariho n'utuntu tw'umukara duto duto.

Ibyuma bigiye bitandukanye bizwi nka ariteri zoroheje. Bikaba biri mu bubiko bwabyo kwa muganga, aho umuntu aza akabiterura ageze mu kigero cy'izabukuru bikamworohera.

Abagore bagera kuri bane bambaye udupfukamunwa ndetse bambaye n'impuzankano, bigaragara ko ari abaganga, bahagaze mu mbuga y'amapave ndetse bari ku nyubako yanditseho ngo "ni inzu y'ababyeyi" yitwa materinete.

Inyubako nziza cyane ikaba ifite ubusitani bwiza ndetse hateye n'imicyindo imiryango irafunguye inzugi zirashiwehangaha hakaba hatangirwa serivisi zo kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe haherereye mu karere ka huye.

Inyubako nziza cyane, ziri mu mabara asa neza, zubakishijwe amatafari ahiye, hino hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi biryoheye ijisho, hejuru ikirere ni umweru n'ubururu.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezwehokaba, akaba ari inyubako y'igorofa, ikaba ifite ibirahuri hejuru ndetse ikaba iteye amarangi asa nk'ivu, imbere yayo hateye ibiti by'icyatsi.

Ibyuma biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, bikaba ari ibyuma abana bicundiraho bari kurya iminyenga, biri ahantu hari ubusitani bwiza ndetse inyuma yabyo hari urugo rwubakishije amatafari ahiye.

Abarwayi bahuriye hamwe kwa muganga baryamye ku bitanda, ibitanda biriho amashuka y'umweru n'ubururu, hino hari umusaza urembye cyane bigaragara ko ari kukuka kanyuma bategereje muganga nga aze abiteho.

Ishusho itwereka icyumba cyo kwa muganga, kiba kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, yaba iby'ikoranabuhanga ndetse n'ibya gakondo bifashisha.

Aha ni mu nyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zerekeranye n'ubuvuzi harimo umuganga uri kureba mu cyuma kizwi nka firigo ngo arebe ko ibintu bimeze neza, hanyuma atangiragire ahahamagare abarwayi baze abiteho.

Inyubako nziza cyane zisakaje amabati y'umutuku, zifite ibikutazisa umweru, hepfo hari iyindi isa nk'ivu ifite ubusitani bwiza cyane, hakaba hari uduhanda tw'amapavi tuvayo, hari kugendamo abantu bagera muri batatu.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi. Harimo ibitara byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo bitanda bitandukanywa n'urubaho rusa umutuku. Hejuru ya buri gitanda, hagiye hariho inzitiramibu ndetse hari n'amarido y'ubururu atandukanya ibyo bitanda.

Umukecuru wambaye ibitenge, akaba yicaranye n'umuganga wambaye imyambaro y'impuzankano y'ubururu, bari ku nyubako y'uyu mukecuru aho ari kumwereka iwe, hari inzu yubakishije amatafari ya rukarakara hirya hari insina ndetse n'indabyo.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi harimo igitanda gishesheho amashuka gifite n'imisego myiza hari n'insakazamashusho muri icyo cyumba hari n'inzugi zisa ibara ry'umweru.

Iyi ni farumasi icuruza imiti igiye itandukanye, niba urwaye nyarukira kuri farumasi baguhe imiti byihuse udatinze, singombwa kwirirwa ujya gutonda imirongo ku bigonderabuzima bitandukanye.

Inyubako nziza cyane ikaba irimo ibyuma byifashishwa mu buvuzi by’umweru, ibikuta biras’umweru, prafo n’umweru n'amatara ari kwaka mw’ibara ry'umweru.

Aha ni ku kigo nderabuzima cya Gisenyi aho hari ibyapa bibigaragaza, hari umunyonzi utwaye umugenzi akaba ahagaze umugenzi ari kuvaho afite indobo y'ubururu, akaba yaragemuriye umuntu hano ku kigo nderabuzima cya Gisenyi.

Abaganga benshi cyane, bari mu nzu bigaragara ko bari kuganira ku buryo bagiye gukora akazi, harimo ibikoresho byinshi bisa umweru, amatara ari kwaka mweru ndetse na parafo ni umweru, hari n'ibirahuri byiza cyane.

Inyubako zo kwa muganga zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko iz'ubuvura nta muntu uhari, hari ibikuta bifite amarangi asa umweru amakaro asa umweru ndetse n'amatara arikwaka umweru.

Inyubako ifite ibikuta byubakishije inkingi z'amatafari ahiye, hakaba hazitijwe utwuma tw'umweru, hakaba hari n'umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hari icyapa cyanditseho ngo ibitaro bya Ruhengeri.

Inyubako nziza cyane ishashemo amakaroasa umweru n'umutuku ikaba ifite inzugi zijya gusa umutuku za tiripuregisi ibikuta birasa umweru ndetse hatambitsemo utorongo tw'ubururu ifite parafu nziza cyane.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, aho ifite ibikuta bisa umuhondo, ndetse ikaba iri kwakamo amatara mu ibara ry'umweru.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, buri wese imbere ye hateretse amazi, ameza yaho ariho ibitambaro by'icyatsi, ibikuta by'inzu birasa umuhondo, bari mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima.

Aha ni muri pharmacy, aho bacuruza imiti igiye itandukanye. Ni byiza ko nawe waza ukagura imiti, bakayiguha byihuse, utiriwe ujya gutonda umurongo kwa muganga, mu gihe ufite izindi gahunda zihutirwa.

Inyubako nziza cyane, zubakishijwe amatafari ahiye, ibikuta birasa umweru ndetse inzira zihagana ni amapave, hari ubusitani bwiza, hakaba hari icyapa mu marembo cyanditseho ngo: "Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge."

Farumasi icuruza imiti itandukanye yitwa gudurife, bivuga mu kinyarwanda ngo ubuzima bwiza, niba nawe urwaye wikwirirwa ujya gutonda imirongo kwa muganga, ngwino hano kuri farumasi baguhe imiti urahita ukira.

Mu cyumba cyiza cyane kigiye gifite amarangi y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, harimo igitanda cyiza cyane ndetse hari n'dugiladrprega kikaba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi.

Ibitaro bya kaminuza y'u Rwanda CHUB, biherereye mu karere ka Huye, bikaba bitanga serivisi zijyanye n'ubuvuzi, hari inyubako nziza cyane ndetse hari umuhanda wa kaburimbo ujyayo, hari n'ibinyabiziga biparitse yo, inyubako zaho na zo ni nziza cyane.

Iyi ni inyubako nziza cyane isakaje amabati y'umutuku ndetse inkingi zayo zirasa umukara, hari ubusitani bwiza cyane, bumanitsemo idarapo ry'u Rwanda, haparitsemo akamodoka kamwe nanjye nzakagura hari na moto.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye ikaba ari inzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi ahazwi nk'ibitaro hakaba hari ibyapa byanditseho ngo ibitaro bya gihundwe aho bavurira amaso.

Aha nk'uko bigaragara ni kwa muganga hari ibitanda bigiye bitandukanye, bishashaho matera bisa icyatsi, ndetse hari n'amarido ajya gusa umweru wijimye, agenda andukanya ibyo bitanda, ibikuta birasa umweru nabyo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye. Ifite imiryango igiye irimo ibirahuri ndetse mo imwe muri yo urafunguye. Handitseho amagambo ku gikuta avuga ngo: ''Isange one stop center.'' Aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, imbere yayo hari ubusitani bwiza ndetse n'amavaze ateyemo indabyo. Hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'icyatsi cy'amagambo ngo ikigo cy'u Rwanda cyita ku ndwara za kanseri.

Ubusitani bwiza cyane aho buri ahantu hari inyubako nziza cyane, zidasakaje amabati y'umutuku, zisize amarangi y'umweru zubakishije amatafari ahiye bigaragara ko hatangirwa serivisi z'ubuvuzi ikirere cyaho kirasa ubururu ndetse n'umwerur mukeya.

Inyubako nziza cyane zikaba zisakaje amabati atukura, zisize amarangi y'umweru zifite ibirahuri bijya gusa ubururu, imbere yaho hamanitse idarapo ry'u Rwanda, hari icyapa kigaragaza aho hantu hari n'umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu batandukanye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba ifite ibirahure ndetse ikaba igaragara neza cyane.

Ujya kwa muganga hari ibitanda byinshi, hari amarido asa ubururu, agiye atandukanya ibitanda, hari n'inzitiramibu hejuru y'ibitanda, amakaro arasa umweru na purafo ni umweru.

Icyumba gifite ibikuta bisa umweru, harimo ekara ebyiri ziri gusa umukara byerekana ko zitari kwaka, harimo kandi n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nziza cyane, ikaba irimo amakaro y'umweru, mo imbere hakaba harimo utubara tujya gusa icyatsi ndetse hakaba hashushanyijeho n'amashusho y'abantu ku bikuta by'iyo nyubako.

Akamodoka keza cyane k'umukara, iruhande rw'aho hahagaze umumama uhetse akamarete, hirya hari abandi bantu benshi begereye inyubako hari yubakishije amatafari ahiye bigaragara ko baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima.

Inzu zitandukanye zikorerwamo serivisi z'ubuvuzi hazwi nko kwa muganga, hari inyubako zisakaje amabati y'ubururu, hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira dukatamo turimo sima, harimo n'imikindo mu busitani.

Inyubako nziza cyane harimo imwe yubakishije mu buryo bw'uruziga zikaba zifite ubusitani bwiza cyane ndetse n'utuyira tuganayo dufashemo kaburimbo, ikirere kirasa umweru.

Inyubako nziza cyane ikaba iriho urubaraza rufite inkingi zijya gusa umutuku, munsi mu rubaraza hari kugendwamo n'abantu babiri, umwe yambaye itaburiya undi we yambaye ishati n'ipantaro y'umukara.

Inyubako nziza cyane, iteye amarangi y'umweru, ikaba ari inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi zita ku baryayi, harimo igidanda gifite matera y'umukara abarwayi baryamaho, ndetse n'ibindi bikoresho by'umweru n'ameza.

Aha kwa muganga hari mo ibyuma bisa umweru, hari n'kindi cy'uruziga ndetse ibikuta byaho birasa ubururu irasa n'ivu ndetse parafo nayo ikaba isa umweru hayikwakamo n'amatara.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu. Ikaba ifite ikibaraza gisize amarange y'umweru, handitseho ngo "Ikigo nderabuzima cya Shagasha". Munsi inzugi zisa umukara, imiryango irafunguye, hicayeho n'abantu bagera muri batatu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, yambaye agapfukamuwa, amadarubindi ndetse n'udusuko ku mutwe akaba ari kwita ku mwana wambaye umweru, wazanye n'umubyeyi aje kumuvuza.

Inyubako nziza cyane ikaba iteye karabasasu z'umuhondo, hakaba handitseho amagambo ngo Caraes Freres de la charite aho giherereye i Huye bakaba bita ku bantu bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane batandukanye bambaye impuzankano z'umweru zitambitsemo akabara k'ubururu bigaragara ko ari abaganga bari gutanga serivisi zigiye zitandukanye ndetse harimo n'ibitanda n'amarido y'ubururu.

Umukobwa wambaye imyambaro y'icyatsi n'imisatsi myiza cyane y'umukara, akaba ari gutembera mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, akaba ari umuganga, harimo ibitanda bigiye bitandukanye ndetse n'inkingi zisizeho ibitambaro by'ubururu.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, biri mu mabara y'umweru ndetse n'andi mabara y'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Aba mama bicaye mu cyumba cy'inama bambaye udupira tw'impuzankano turi mu mabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi cyerurutse, bakaba bicaye muri sare nziza barebye imbere aho bigaragara ko bakurikiye ikiganiro.

Ni abantu benshi cyane bateraniye hamwe kwa muganga, harimo abicaye ndetse hari n'umwana, uhagaze munsi y'ikigega gisakaje ibyuma bisa umutuku.

Aha ni ku nzu y'ababyeyi ahazwi nko kuri materinete, hari abantu bicaye munsi harimo umwe uhagaze wambaye agapira k'ubururu, in inzugi z'aho zirasa umweru ndetse harafunguye.

Ahantu hari inyubako zigiye zitandukanye, hari n'ubusitani bwiza. Hari icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye mu mabara y'icyatsi, amabara y'igitaka, ibara rya oranje, ibara ry'ubururu, ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi kijimye.

Udukapu dusa umutuku tuba turimo ibikoresho bigiye bitandukanye wakwifashisha ukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo nawe ugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umukobwa wicaye kuri tapi, ari gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwe hari mudasobwa agenda areberamo ibyo ari gukora. Hari na ariteri ebyiri n'agacupa ko kunywa amazi, hakaba haranditse na kuteri z'umukara.

Ubu ni uburyo bari kutwereka imyitozo ngororamubiri wakora igihe itandukanye, hari ukugenda n'amaguru, hari ukugenda ku kanyabiziga k'igare, hari uguterura icyuma rya ariteri ,ndetse hari no gukina n'imikino y'amaboko.

Umuntu wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri bamujyanye kwa muganga aho barambitse akaguru ke ku cyuyuma cyabugenewe hakaba hari inzobere mu buvuzi zimwegereye ziri kumukurikirana kugira ngo barebe ko bamusubiza ubuzima bwe ko yari asanzwe.

Umuntu wambaye amadarubindi n'agapira gasa icunga, akaba yatanze ukuguru umuganga ari kugenda agukoraho, bigaragara ko uwo muntu ashobora kuba yavunitse, muganga yambaye isaha ndetse n'itaburiya y'umweru, icyumba barimo kirasa umweru.

Umuntu wambaye insengeri y'umukara ni umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yafashe ukuboko kumwe akagukoza inyuma mu mugongo, undi yagufatishije ku nkokora ze.

Intoki zambaye udutukantoki tw'umukara, ariko tugufi kuko ibice by'imbere by'intoki biri kugaragara, uyu muntu akaba agiye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umukara akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aho aryamye yambaye isengeri y'umukara akaba ari kugorora umubiri we kugira ngo urusheho kumera neza.

Umusaza ugeze mu zabukuru. Yambaye agapira k'umukara, gatambitsemo uturongo tw'umweru. Akaba ateruye ariteri y'umukara mu kuboko kwe kw'ibumoso. Hari n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi, uri kumwerekera uko bikorwa.

Ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri, wongera cyanga utuma amagufwa yawe akomeye, amaraso yawe umuvuduko uragabanyuka, ntabwo wiyongera, bigabanya siteresi, byongera ibiro bigafasha no mu nzira z'igogora.

Agakapu k'umufuku karafunguye, mo mbere harimo amoko y'imiti agiye atandukanye, iyi miti ahanini ikaba ivurisha abantu bagize ikibazo bari muri siporo.

Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bitumagira ubuzima bwiza buzira umuze nkuko tubibona uyu mukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri ejo hazaza he hazaba hameze neza imitsi ye izaba yaragororotse.

Amoko y'imiti itandukanye avura indwara zigiye zinyuranye; harimo uducupa dufite imipfundikizo y'icyatsi n'umuhondo, harimo kandi bande zipfukishwa umuntu wagize ikibazo akora imyitozo ngororamubiri.

Ikinyamakuru cya siporo n'ubuzima no gutera ikinya, hariho ifoto y'umugabo wambaye ikabutura y'umutuku wiyifashe ku itako, ariko hari guhita hagaragaramo amaraso mo imbere, biteye ubwoba.

Umugabo wambaye agasengeri afite umusatsi muke n'ubwanwa buke, aduteye umugongo aho afite gurudo isa ubururu irimo amazi akaba ari kuyanywa.

Umugabo wambaye isengeri y'icyatsi, akaba yambaye akantu kameze nk'agasaha ku kuboko k'iroza ari kwicukera amazi mu maso, bigaragara ko yarari mu myitozo ngororamubiri none akaba ari kwitera utuzi kugira ngo agabanye ubushyuhe.

Gukora siporo ni ingenzi ariko tuba tugomba kurya n'indyo yuzuye. Igizwe n'imboga ndetse n'imbuto. Hano hari intoryi, karoti, kokombure, ishu ndetse n'icunga.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, muganga akaba ari kumwambika ga nka kimwe mu bikoresho byifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, muganga yambaye umupira w'umweru wandikishijweho amagambo mu ibara ry'umukara.

Umuganga wambaye uturindantoki tw'ubururu ndetse n'ishati y'icyatsi n'agapfukamunwa, ari kureba muri mudasobwa uko amakuru ahagaze ngo abone uko atanga raporo ku mmpapuro ari kwandikaho, inyuma ye hari igikuta gisa umweru.

Udusahani turiho imbuto zigiye zitandukanye, ndetse ariho n'uturiho amagi, ibi byose ni indyo yuzuye, hirya hari utundi dukoresho twifashisha bakora siporo, by'umwihariko nka ariteri

Umuntu wafatiye ibarafu ku kuboko kwe, ahagana ku nkokora, intoki zahafashe zambaye impeta, iyo barafu irasa icyatsi.

Uyu nguyu ni umwana waje kwa muganga akaba yicaye atuje ntabwoba afite, muganga yambaye akajiri k'ubururu n'agapira k'umutuku yamutunze icyuma kugira ngo arebe uko ubuzima bwe niba bumeze neza.

Umugabo wambaye agapira kamufashe, yambaye ekuteri, afite agacupa k'amazi mu kuboko kw'ibumoso ari kuyanywa. N’ingirakamaro kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umuntu wambaye agashati k'umweru w'igitsina gore akaba yashyize agatambaro k'ubururu ku kizigira cyo ku kaboko, yambaye impeta bigaragara ko ashobora kuba yagize akabazo gato k'imvune igihe yakoraga siporo.

Umuntu wambaye agashati k'icyatsi, akaba ateruye ka ariteri nako gasa icyatsi, ukuboko kwe gufashwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ariko bose ntabwo bagaragara igice cyabo cyo hejuru.

Umugabo n'umugore b'abazungu bicaye begamiranye, buri wese araramye afite agacupa gasa umweru n'ubururu ku munwa. Bari kunywa amazi arimo kugira ngo bashire icyaka.

Ikizingo gisa umutuku mo imbere gisa umweru, iki kifashishwa iyo umuntu yagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bagenda bakareba ahagize ikibazo, bakazingiraho iki kizingo hanyuma akagenda yoroherwa gake gake.

Umuntu wagiye kwa muganga none bakaba bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri. Yambaye agakabutura k'umweru n'umutuku, agapira k'umukara, yambaye agasaha ku kuboko ndetse ukuboko kw'iburyo kurimo agakomo ndetse afasha na telefoni.

Umuntu wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro y'umukara ndetse n'inkweto ifite taro z'umukara, aricaye ari gukoza intoki ze ku nkweto. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri ndetse n'agasaha ku kuboko, akaba yazamuye amaboko, ari kwigorora, amaboko yayashyize ku gatwe k'inyuma, ari kureba ahantu hari inyubako nyinshi cyane nziza.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari umukobwa w'umuzungu. Imyitozo ngororamubiri ni myiza cyane ariko ni byiza nanone iyo turya indyo yuzuye igizwe n'imboga ndetse n'imbuto.

Abantu benshi batandukanye bari gukina umukino wa Tennis, aho bambaye imyambaro yabugenewe y'umukara n'umweru ndetse bari mu kibuga cya Basket hari abafana benshi baje ku bafana.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Hari bande ivuye mu gakarito kayo bigaragara ko ikiri nshyashya. Mu gihe ugize ikibazo uri gukora imyitozo ngororamubiri, ni ngombwa ko uyizirika aho hantu ugeze ikibazo.

Ibitaro bya faisal hakaba hari umugabo wuriye ku rwego w'umutekinisiye ari gukanika ibyagize ikibazo, munsi hari abandi bari kumufasha bamuhereza, iyo nzu ikaba yubatswe mu marangi y'ubururu ndetse n'umweru wiganje.

Umugabo wicaye, yambaye agapira k'umweru ndetse akaba yafatiye agatambaro k'ubururu ku kizigira cy'ukuboko kwiwe, bigaragara ko ashobora kuba yakomeretse.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo udukarito, harimo uturahure tw'umweru, uducupa tw'umutuku dufite imipfundikizo isa icyatsi, hamwe n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo mu gihe bakoraga siporo.

Inzu irimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye aho byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo imashini nziza cyane ndetse na shitingi isa ubururu, bigaragara ko ari ingenzi cyane.

Umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'uburu, afite telefone mu ntoki, ari kunywa amazi, ni byiza cyane kunywa amazi waba uri umuzungu cyangwa umwirabura, kuko ubuzima bwacu ni bumwe, iyo uyanyweye ugira ubuzima bwiza.

Igikapu gisa umutuku kirimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, cyane cyane ibyifashishwa bavura umuntu wagize ikibazo cy'imyitozo ngororamubiri, harimo bande, pomade ndetse n'amazi yo kunywa n'ibindi bitandukanye.

Abantu bagera muri batatu aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, umwe yambaye agapira k'umweru undi yambaye ak'umutuku bambaye na kasiki bambaye amakabutura y'umuhondo bose.

Umuntu wicaye yazirikiye terefoni ku kizigira cy'ukuboko kwe yambaye ipantaro n'inkweto z'umutuku, aho ari gukora imyitozo igiye itandukanye ngororamubiri, imbere ye hateretseho gudu y'amazi iri gusa ubururu.

Ikiganza cy'umuntu kirambuye mu ibara ry'umweru n'umutuku kikaba ari igishushanyo aho bari kutwereka ukuntu ikiganza kiba kimeze cy'umuntu handitsweho n'imibare igiye itandukanye.

Mu cyumba kizwi nka gym, aho hakorerwamo siporo zigiye zitandukanye, kikaba kiri kwa muganga aho umuntu agenda muganga akamwereka icyuma ajyaho, hanyuma akamureberera niba ari kubikora neza.

Icyapa cyanditseho inararibonye yitwa Viateur Nshimiyumuremyi, akaba ari inzobere mu bijyanye n'indwara zifata imitekerereze.

Umuntu wambaye ubusa hejuru, ku kaboko ke hakaba ashushanyijeho amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, bigaragara ko yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri none bakaba basize amabara ahantu havunitse.

Umugabo uryamye hasi yambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'umweru, uyu mugabo ni umuzungu ari gukora imyitozo ngororamubiri yaziritse umugozi ku kaguru no ku rukuta bigenda biwuzamura gutyo gutyo.

Umuganga wunamye arimo gukora akazi ke ari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo insakaza mashusho iirikwaka mu mabara y'umukara, hakaba haditsemo amagambogambomu ibara ry'icyatsi ijana na mirongo ine n'umunani.

Umuntu waje gukora imyitozo yo gusiganwa akaba agize ikibazo aravunika none abatanga akazi k'ubukorerabushake baramufashe bamujyanye kumuvuza.

Uyu nguyu ni umugabo wo mu kigero cy'imyaka mirongo ine, afite ubwanwa buke, afite agacupa k'amazi arikunywa, na we nakugira inama yo kuzajya unywa amazi kuko bituma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Iki ni ikimenyetso cya kuruwa ruje umuryango wita ku mbabare mu Rwanda, bakorera ubuntu ntabwo bishyuza hari umusaraba mu ibara ry'umutuku ndetse uzengurutswe n'ikiziga kiri gusa umweru.

Abantu benshi ntibazi ko izi mbuto na zo zishobora kugufasha gukora imyitozo ngororamubiri, nk'inyanya, avoka, indimu ndetse na pome nabyo byagufasha, wakwambara n'izi nkweto cyangwa ukishyiraho kiriya kizingo ku kaboko kugira ngo utagira ikibazo.

Umuntu wavunitse ari gukora siporo, bakaba bamuzanye kwa muganga yarembye. Bamuryamishije ku gitanda, none haje inzobere mu buvuzi, ziri kumwitaho ariko ararembye cyane.

Umuntu uri kugaragara mu ishusho y'umukara, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yashinze ukuboko n'ukuguru, ukundi kuguru kuri inyuma, ukuboko kundi yakuzamuye, inyubako arimo mu isize amarange y'umweru ariko atagaragara neza.

Icyapa gisi icyatsi handitseho amagambo mu ibara ry'umweru avuga ngo siporo ni ubuzima, hari abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri myinshi igiye itandukanye harimo gukina umupira ndetse no guterura ibyuma.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gakeka gasa ubururu ndetse amakaro arasa shokora ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ugira ubuzima bwiza.

Umuntu upfukamye akaba ari gukora gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura y'umukara n'agapira kaza shokora k'amaboko maremare. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu cyumba kirimo amavaze ateyemo indabyo, ibikuta birasa umweru, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ukuguru k'umuntu ku iivi harapfutse bigaragara ko uyu muntu ashobora kuba yaragize akabazo k'imvune igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gitanda kwa muganga.

Mudasobwa zigera kuri eshatu ziri kwaka hagiye harimo utuziga turi mu mabara y'ubururu n'umweru abari kwereka muganga uburyo yabigenza kugira ngo avure abarwayi bitamugoye kandi nabo biboroheye.

Agacupa k'umweru kariho icyapa cy'umukara, kakaba kifashishwa umuntu avuye gukora imyitozo ngororamubiri, aho afata umuti akawusiga umubiri wose hanyuma akumva amerewe neza.

Umusore wambaye kuteri n'agapira k'umweru, arararamye afite icupa ry'amazi ari kunywa, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi bizira umuzi, abaganga batugira inama yo kunywa amazi kuko bituma tumererwa neza cyane.

Iki ni igitabo kiriho amoko y'indwara agiye atandukanye, hashushanyijeho abantu ndetse na siporo wakora kugira ngo urwanye izo ndwara zibasira umubiri w'umuntu.

Umuntu w'umugabo wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye ikabutura ari kugaragaza amatako ye ndetse n'imfundiko ze zamubanye ubuhiri, yicaye ku mucaca mwiza, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko bw'imiti gakondo iba iri mu ducupa dusa umweru, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru avuga ngo stop pain rivuga ngo ububabare bugomba kurekeraho.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku afite telefoni ku bizigira by'ukuboko irimo ekuteri yashyize mu matwi, ari kumva akaba afite agacupa k'amazi ari kunywa afite imisatsi y'umukara.

Umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'agapira k'ubururu, aryamye hasi ku kaguru ke hari gukora umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ikabutura y'umukara. Imbere yabo hari baro, baryamye mu kibuga kirimo tapi.

Umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi n'agapira kajya gusa icyatsi akaba yavunitse arigukora imyitozo ngororamubiri. Yagiye kwa muganga bamwicaza ku gitanda none muganga ari kumushyiriraho bande ku kuguru kugira ngo arebe ko yakira.

Umukobwa wicaye kuri tapi y'umukara ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari mudasobwa ari kujya arebamo, akaba afite n'amazi imbere ye ndetse na twa ariteri tubiri tw'iroza.

Icyapa kiri kutwerekaho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'icyatsi, avuga ngo : "Ibitaro bya gisirikare." Bakaba bavura indwara zitandukanye, batera n'ibinya.

Umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi, azamuye amaboko, yashinze ivi ari gukora siporo. Ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma agira ubuzima bwiza ndetse buzira umuze, hirya ye hari akavaze gateyemo indabyo.

Umukobwa yambaye imyenda y'umutuku, yashyize telefoni ku bizigira by'ukuboko aho ari kunywa amazi, yambaye amaherena. Ni byiza kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, ni byiza cyane!

Umukobwa uri kunywa amazi, akaba yari ari gukora siporo, siporo ni ingirakamaro cyane kuko iyo uyikozeze ugasoma no ku tuzi, bituma ugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze, nawe nakugira inama zo kuzajya ukora imyitozo ngororamubiri, itwaje n'amazi hafi aho, ukazajya usomaho.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yazamuye ivi rimwe, akandi kaguru gashinze hasi. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza, kandi buzira umuze, nawe nakugira inama yo kujya ukora imyitozo ngororamubiri nibura kabiri mu cyumweru.

Inyandiko ziri mu mabara y'umweru hakaba hari inyuguti ya B ivuga umubiri, hakaba R ivuga amategeko, ndetse hakaza na E ivuga kwita ku bikoresho, ndetse na A ivuga ubushobozi ndetse na K hamwe na S.

abantu babiri umwe n'umukobwa undi umusore, umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri naho umusore we aricaye ari kunywa amazi, imbere yabo harambitse ibikapu by'umukara naho kuntebe harambite umupira w'umweru.

Umugabo w'umuganga. Ari kumwe n'abandi bagenzi be b'abaganga. Aho ari kubereka ishusho y'uko umuntu aba ameze igihe afite ubuzima bwiza. Na bo barakurikiye. Inyubako irimo amarido y'ubururu ndetse icyo kintu ari kuberekeraho gifite amapine y'umukara.

Hari amoko y'imipira igiye itandukanye, hari baro, agatenesi, umukino wa rugubi, ndetse n'utundi tuntu dufite amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'igikoresho cy'abaganga.

Amashusho agera muri ane atwereka amoko y'ibimera bitandukanye, hirya hariho n'utundi dushusho tugera mu munani dufitanye isano n'iyi miti.

Ubwoko bw'ikimera gifite amababi y'icyatsi, kikaba gitunganywamo imiti igiye itandukanye, aho ishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo, bavura indwara za kinyarwanda.

Abantu benshi bambaye udupira tw'icyatsi, bateraniye mu isambu ihinzemo ibikakarubamba, uyu muti ni ingenzi cyane kuko uvamo imiti myinshi cyane yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Ubwoko bw'ibimera bigiye bitandukanye, bifite indabyo zifite amabara atandukanye harimo: iz'umutuku, iz'umuhondo, ndetse n'izisiroza. Zikaba zifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Umugabo uteruye ibyatsi by'ibimera mu ntoki yambaye agapira k'icyatsi kambarwa n'abantu bashinzwe kubungabunga ibimera. Ni byiza cyane ko abungabunga ibimera kuko bivamo imiti.

Imiti itandukanye ikorwa mu byatsi aho babifata bakajya kubitunganyiriza mu nganda zabugenewe hanyuma bagakuramo imiti myiza cyane urabona ko batwereka ko imeze neza.

Ibyapa bigiye bitandukanye, aho handitseho amagambo ngo alolipu. Hari agacupa k'umweru, kanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku. Bigaragaza ko habamo imiti ivura indwara za gakondo.

Uducupa tumeze nk'utuvamo korogati ducuritse, turiho ishusho y'igikakarubamba kikaba cyifashishwa kivura indwara igi zitandukanye zananiranye by'umwihariko indwara za gakondo.

Agatebo karimo ibyatsi bigiye bitandukanye, hariho n'intoki z'umuntu, aho byerekana ko avuye gusarura imiti gakondo, agiye kuyijyana ahabugenewe ayitunganye hanyuma bazayizana yatangiye kuvura abantu barwaye.

Icyatsi dukunze kubona ahantu mu bisambu kiba gifite amababi acagaguye nk'intoki z'ikiganza cyitwa ikibonobono kikaba gitunganywa kikavamo umuti wakwifashishwa mu kuvura indwara ziba zinyuranye.

Niba ufite umusatsi ukaba ukeneye umuti wo kuwitaho uyijya kure gana ahantu hacuruza ubuvuzi gakondo bakugurishe umuti witwa shapo iwushyize mu misatsi imera neza cyane ndetse abantu bakajya bakubaza uko wabigenje.

Intoki z'umuntu afashe agapapuro, kakaba kariho ibyatsi biseye, ibi akaba ari umuti wifashishwa mu buvuzi gakondo aho baba bavura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye, turi mu mpande enye, ariko hakaba higanjeho icyatsi k'igikakarubamba, iki ni ingenzi cyane, kuko kiratunganywa kikavamo imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi.

Ibyatsi by'ibimera biri ahantu mu gisambu, ibi byatsi iyo bikuze birasarurwa bikajyanwa mu nganda, hanyuma bigatunganywa bikavamo umuti uvura indwara za gakondo.

Uducupa tugera muri dutatu, kamwe karasa umweru n'umupfundikizo n'umweru, akandi gasa umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, aka gatatu kari hejuru gasa ubururu gafite umupfundikizo w'ubururu, kakaba kanditseho ngo umuti w'uruhu.

Mu ducupa tugiye dutandukanye, harimo udusa umuhondo ndetse n'udusa umweru dupfundikije imipfundikizo y'ubururu, hirya yaho hari ubusitani burimo indabyo nziza cyane.

Igiti kirekire giteye ahantu mu gisambu hakaba aricyo kirekire kiruta ibindi, bigaragara ko kivamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Agasahani karimo umuti w'umuhondo harimo n'ikiyiko, hirya hari amababi y'ibimera bitandukanye hakaba hari natangawizi, ibi akaba ari imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye za kinyarwanda.

Iki ni icyatsi gifite amababi y'icyatsi agiye atandukanye, iki cyatsi hifashishwa mu buvuzi gakondo aho kivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, bikaba bikura bigasarurwa ndetse bigatunganywamo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho baba bavura indwara nyinshi zitandukanye.

Agacupa k'umweru kanditseho ijambo shampo, uyu akaba ari umuti gakondo wifashishwa aho baba bagiriye isuku umusatsi ukarushaho kumera neza cyane.

Intabire iteyemo igihingwa cy'ikimera gifite amababi meza cyane y'icyatsi. Ni byiza ko ibi byatsi tubyitaho kuko iyo bikuze birasarurwa, bigatunganywamo imiti gakondo.

Ibyatsi by'ibimera byinshi bigiye bitandukanye bifite amababi y'icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo aho baba babyifashisha bavura indwara za kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho ivura indwara zinyuranye nawe rero nubwa ufite indwara yananiranye gana abavuzi ba gakondo barayikuvura ukire maze wibagirwe ko wigeze uyirwara.

Imineke, inanasi ndetse, n'indabyo z'umuhondo, hakaba hari n'udukarito turi mu mabara y'umutuku, ubururu, handitseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'umukara.

Agasekuru, intoryi ndetse n'amavaze ateyemo indabyo, izi ndabyo barazifata bakazisekurira muri aka gasekuru, bakazivanga bakazishyira muri utu ducupa zikavamo umuti wa gakondo.

Icyatsi gifite amababi agaye, kikaba kizwi ku izina ry'igicunshu, aho kivura indwara zigiye zitandukanye, aho ukinywa ukagihekenya, maze indwara igakira, ariko kiba gishaririye cyane.

Uducupa tw'umweru hakaba hari irindi cupa ry'umukara, hariho akanyoni kari ku kuguruka ku cyapa hakaba habanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Igikakarubamba: Iki ni igihingwa k'ingirakamaro cyane, kivamo imiti igiye itandukanye cyane cyane indwara imiti ivura indwara za gakondo ziba zarananiranye ahandi.

Agacupa k'umweru gafite umupfundikizo usa umutuku, kakaba gashushanyijeho igisiga kiri kuguruka, kakaba karimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara za Gihanga.

Mu isambu haba harimo imiti gakondo iragenda igakura yamara kwera bakayisarura bakayijyana mu nganda, bakayitunganya ikavamo imiti, hakavamo ibinini bigashyirwa mu ducupa tugiye dutandukanye hanyuma igahabwa abarwayi.

Uducupa tugiye dutandukanye, turimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye, cyane cyane indwara za kinyarwanda.

Agacupa gafite umupfundikizo ujya gusa umutuku, kakaba kariho igikakarubamba ndetse kakaba inyuma hasa umukara, kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'umweru, biteye ahantu heza cyane, bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo buvura indwara zigiye zitandukanye. Izananiranye n'izitarananiranye.

Agapupa gasa umweru kakaba gafashwe n'ikiganza cy'umuntu hariho amoko atandukanye y'imiti gakondo irimo, hakaba hashushanyijeho n'igikakarubanda aho kivura indwara zigera muri cumi n'ebyiri.

Abantu benshi bari mu rugendo shuri bahetse ibikapu, aho bari kugenda ahantu mu ishyamba ririmo amoko y'ibiti agiye atandukanye, bakaba bagiye gushaka imiti y'ibyatsi yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Udukoresho tuba turimo imiti gakondo yitwa arovera garire, hakaba hari n'amafoto y'abantu bagera muri batandatu, babiri babiri barasa, bigaragara ko ari abantu bavujwe iyi miti bagakira.

Uducupa tugera muri dutatu tubiri ni imyeru dufite imipfundikizo iz'umutuku akandi kamwe gasa umuhondo nako gafite umupfundikezo w'umutuku hirya hari utundi turiho igakakarubamba ndetse n'utundi dushushanyijeho igisiga bigaragara ko tuba turimo imiti gakondo.

Agacupa k'umweru, gapfundikije umupfundikizo na wo usa umweru, kakaba kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi. Ikindi kandi, kakaba gashushanyijeho igisiga kiri kuguruka mu ibara ry'umukara

Umumama ucuruza imiti gakondo afite amacupa menshi cyane imbere ye agiye atandukanye, afite imipfundikizo y'umweru ndetse n'umutuku, imbere hari abantu baje kugura harimo umugabo umwe bari kuganira, n'undi uri hirya usa n'ushaka kuganira n'undi mugabo.

Udukarito tugiye dutandukanye tugera muri tune, harimo agasa ubururu ndetse n'agasa umweru, hakaba handitseho ngo masike bigaragaza ko havamo udupfukamunwa.

Uducupa dutatu harimo kamwe gateretse akandi gahengetse ahagana hasi, akandi ko hejuru ko kari mu kirere karahengetse karasa umuhondo utundi turasa umweru, harimo imiti bifashisha bavura indwara za gakondo.

Ibiganza by'abantu babiri, umwe akaba afite akantu, undi afitemo agacupa kavamo umuti gakondo gashushanyijeho igikakarubamba akaba ari kumusigira ku buroso bwa korogate kugira ngo yoze amenyo.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye harimo isa umuhondo ndetse n'isa umweru, hakaba harimo kandi n'ibibabi byinshi bigiye bitandukanye, ibi byose akaba ari imiti ivura indwara za gakondo.

Umumama ufite agashakoshi mu ntoki, afite agasharupe k'umweru, akaba ari gusoroma ibibabi by'ibimera, hakaba hari n'insina, ari gushaka umuti gakondo wifashishwa uvura abana indwara y'inzoka.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo ivura indwara za kinyarwanda kugira ngo iyi miti iboneke hafatwa ibihingwa hanyuma bakabitunganya bikavamo iyi miti.

Uducupa turambitse dutambitse tuba turimo imiti ya gakondo, dushushanyijeho n'igikakarubamba, hari agasahani karimo ikintu wagira ngo harimo umutima, hirya hari voka ibi byose zikaba ari imiti yifashishwa n'abavuzi gakondo.

Agacupa gasa ubururu, gafite n'umupfundikizo w'ubururu. Karambitse ahantu gahengetse. Munsi yako hari akandi gasa umweru, gafite umupfundikizo w'ubururu. Hari n'akandi gasa umweru, gafite umupfundikizo w'umweru.

Ibyatsi by'ibimera byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa n'abantu bavura indwara za kinyarwanda, aho biri ahantu mu gisambu bigiye bitandukanye, iyo abaganga bakunaniwe bakohereza ku muvuzi wa gakondo wemewe n'amategeko akakuvura ugakira.

Ubwoko bw'ikimera cyitwa icyatsi, kikaba gifite amababi agiye atandukanye, aya mababi ushobora kuyakoresha wivura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda, cyane cyane nk'amarozi.

Imiti gakondo iba iri mu kavido gasa umuhondo kakaba gapfundikije umupfundikizo w'umutuku gashushanyijeho igisiga bikaba byanditse mu mabara y'umutuku.

Ahantu mu gisambu haba hagiye harimo ibimera bigiye bitandukanye ibyo bimera biba bifite imimaro itandukanye hari ibivamo ubwatsi bw'amatungo ndetse hari n'ibivamo imiti gakondo ibi tubona byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Icupa risa umweru ripfundikije umupfundikizo usa ubururu, hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu hashushanyijeho n'akanyoni kari kuguruka, bigaragara ko harimo umuti wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amavazi ateyemo indabyo zigiye zitandukanye, hakaba hari icyapa kigaragaza ko ari ibihingwa byifashishwa mu buvuzi, harimo igikakarubamba ndetse n'ibindi bifite indabyo z'umuhondo.

Uturahuri turimo amazi ndetse n'amababi y'ibyatsi. Ibi byatsi bakaba bagiye kubitunganya kugira ngo babivanemo umuti gakondo hanyuma bazajye bawifashisha bavura indwara zinyuranye higanjemo iza kinyarwanda.

Revive igisubizo ku muryango, uvura kurangiza vuba, kudacika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zibafata porositate.

Agacupa gasa umweru karacuritse ahantu hasaya icyatsi, kakaba gashushanyijeho igikakarubamba. Uyu muti ni ingenzi cyane kuko uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye indwara zananiranye zose iyo zigeze imbere y'igikakarubamba ziba umuyonga.

Aha bari kutwereka ukuntu imbuto zigiye zitandukanye, zishobora kwifashishwa zikabyara ikindi gicuruzwa, bari kutwereka ko avoka ishobora kuvamo isabuni.

Agasekururo k'umukara, kari hagati y'ibyatsi cyangwa amababi y'ibyatsi gakondo, byifashishwa mu buvuzi gakondo, aho bashyiramo ibibabi bakabisekura hanyuma bigahinduka umuti uvura indwara nyinshi.

Ubwoko bw'ibiti biba bifite amababi matoya, biri ahantu mu gisambu. Harimo n'ubundi bwoko bw'ibiti bijya gusa umutuku n'ibindi bisa umuhondo. Ibi bikaba bikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo.

Uducupa tugera muri dutatu kamwe n'umweruru akandi ni umuhondo, akandi nako n'umweru dufite umupfundikizo w'umuka ra, twose dushushanyijeho igikakarubamba dushushanyijeho inyoni ndetse n'amagambo amwe, bigaragara ko tuvura indwara za kinyarwanda.

Udusahani tubiri tw'umweru; iruhande rwatwo hari ibyatsi bizinze wagira ngo n'inkuyo, hari amapera ,hari romari, hari te ndetse n'indi miti itandukanye yifashishwa n'ubuvuzi gakondo.

Umugore wambaye umupira w'umutuku, akaba yunamye, ari ku cyapa cyanditseho uburyo bwo gusuzuma bya gakondo, akaba yari ari kwisuzuma ko atwite none bakaba bavuga ngo ntabwo atwite, arababaye.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye bya gihanga, aho hari akazu kagaragara nka kanyatsi ariko kubabakishije ibirere, gafite umuryango udakinze, hari n'ibicuma, amacupa, ingobyi, amvilope ndetse n'ibindi.

Ubwoko bw'ibyatsi bigiye bitandukanye by'ibimera bishushanyije hino hari igikakarubamba aho gifite amababi maremare agiye asongoye wagira ngo ni umugwegwe.

Uducupa twinshi cyane, tumwe tubereye aho utundi turimo imiti. Udufite imipfundikizo y'umuhondo, umutuku, umukara ndetse n'iyindi igiye itandukanye. Tukaba twifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agasekuru k'umweru hari n'umuntu ufite umuhini ari gusekura, ariko hagaragara intiki ze gusa ntabwo agaragara wese, hirya hari indi miti yabo yifashishwa nayo bakayisehura akaba byose byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo wambaye ikositimu y'umukara n'agashati k'ubururu, impande ye hakaba hateretse uducupa twinshi tw'imiti gakondo, hakaba handitseho n'amagambo ngo ndi umujyanama wawe mu buzima n'imirire.

Akabido gasa ubururu, kakaba gapfundikishije umupfundikizo w'icyatsi. Hari amagambo yanditseho mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo "ibidukikije ni inshuti yacu, bivamo imiti myinshi cyane." nawe nimba udukeneye, duhamagare kuri izi nimero.

Umusaza wambaye agapira k'umutuku ndetse n'umupira w'imbeho w'umukara ari kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umweru, witeze n'igitambaro cy'ubururu bari imbere y'ikimera gifite utubabi dutoya bakaba bari kukitegereza.

Uducupa tugira muri tune kamwe ni karekare, karasa ubururu n'umweru, handitseho amagambo yanditse no kutundi ducupa ngo infinite, bigaragara ko haba harimo imiti myinshi yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ibimera bikiri bito kandi bitoshye, iyo bigeze igihe cyo kwera birasarurwa bikajyanwa mu nganda, zikabitunganya zikabivanamo imiti, hanyuma bakaza kuyivuza indwara zigiye zitandukanye.

Igitunguru gikasemo kaburi, hari n'indimu ikasemo kabiri, hari agacupa k'umuhondo gapfundikiye n'igitunguru ku ruhande, hakaba handitseho akagambo mu ibara ry'ubururu ngo: "baho neza tv".

Agasekuru gasa umweru, kakaba kari gusekurirwamo ibyatsi bya gakondo, aho bari kubitunganya kugirango ngo baze kubivanga, bivemo umuti uzifashishwa, uvura indwara zitandukanye.

Umusambi urambitseho udusahani tugiye dutandukanye turimo imiti myinshi yifashishwa bavura indwara zinyuranye. Ni amoko menshi y'ibyatsi bagiye bahuza ndetse buri bwoko bakabushyira ku gasahani kabwo.

Uducupa twinshi cyane tugiye dutandukanye, aho turimo imiti yifashishwa cyane cyane mu buvuzi gakondo, bavura indwara zigiye zinyuranye cyane cyane nza kinyarwanda.

Uducupa tugera kuri dutatu, turi ku nzego zitagiye zitandukanye, kamwe kari kuri esikariye yo hasi, aka kabiri kari kuri esikariye ya kabiri, ndetse aka gatatu kari kuri esikariye ya gatatu, twose turimo imiti gakondo.

Agacupa karimo imiti igiye itandukanye kapfundikije umupfundikizo wumweru kakaba karutseho inyuguti z'umukara ndetse hariho na'akamebara y'amatuku hariho n'akapu k'umwana'bara ry'umuhondo.

Icyapa cyangwa se amagambo y'icyatsi yanditse ku ducupa tugiye dutandukanye, hariho umukandara w'icyatsi uciye muri utwo ducupa, ndetse imipfundikizo yatwo ni umweru urebye neza tumeze nk'uducuritse.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye. Hakaba hariho akanditseho miligram magana atanu. Aho haba harimo imiti igiye ivura indwara zinyuranye, harimo n'indwara za gakondo.

Utudomoro tugera muri tubiri turasa umweru akandi ni umuhondo imipfundinikizo yatwo irasa umutuku wijimye, ibara ry'icunga ndetse n'ubururu. Hirya hari ibindi bimera bisa icyatsi bisatuye.

Mu macupa tugera muri dutatu turasa umweru twose bashushanyijeho inyoni hakaba hariho n'ibirango bigaragaza ko harimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo bavura indwara zinyuranye za kinyarwanda.

Ibikoresho byinshi cyane bya gakondo, aho byifashishwa mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye. Harimo udukangara turiho imiti yifashishwa mu kuvura indwara za gakondo ndetse hari n'agakoresho kabaje mu tubati, kariho umunzani umupima bifashishije amabuye.

Agakoresho kameze nk'impinga kakaba karimo ibinini byinshi bisa icyatsi, ibi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho ivura indwara nyinshi zizwi nk'indwara za kinyarwanda.

Mu ducupa tw'umuhondo turimo imiti igiye itandukanye, twose turi mu gakarito uretse kamwe kari hanze, aho gashushanyijeho igikakarubamba bigaragara ko ari ko bakoresha bari kwamamaza kitwa: impagararisi.

Aka etajeri karimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye kubakishije imbaho zisa umutuku, karimo amacupa apfundikishije imipfundikizo isa umweru, umutuku ndetse n'umukara hakaba harimo imiti ya gakondo.